Abana bari guhabwi bari kugaburirwa bari guhabwi inryo yuzuye kugira ngo ibe yabafasha mukwirinda indwara zitandukanye nka bwaki, indwara zose ziva ku mirire mibi. Igikorwa kiza cyo kugaburira abana.

Abamama beza bambaye neza bambaye ibitenge, urabona ko ni abantu basa nk'abishimye ba mutegarugori bambaye utujakete bisa nk'aho bafite inshingano bakora.

Ubuzima bwo mu mutwe ni igikorwa cyo kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ku bantu bafite ikibazo cyo gutekereza cyane ni ibintu byiza ubu buvuzi burafasha rwose.

Jimu nziza nirimo ibikoresho bya siporo bigezweho byiza isa neza ifite isuku, ibyuma bitandukanye ariteli imashini zo kwirukankaho.

Abakoranabushake bari gufasha umuntu Croix-rouge, igikorwa cyiza cyo gufasha abantu, imbabare gufasha abantu bagize ibibazo gutabarira ku gihe Croix rouge ni umuryango mwiza ufasha.

Siporo ni ingenzi umuntu ari gukora siporo, siporo zigorora imitsi, zikangura umubiri, zirinda indwara ni ibintu byiza cyane rwose.

Amazi asa neza, amazi afite isuku, amazi ari mu gacupa, amazi ni ikintu cyiza kidufasha mu mibereho ya buri munsi mu gusukura, mu guteka, kuyanywa, akoreshwa mu bintu byinshi mu buzima.

Ni ahantu hari amazi meza atemba neza amazi amanuka ku musozi, ibiti akikijwe n'ibiti ibinyabuzima hari umwuka mwiza nkuko bigaragara ahantu heza nyaburanga.

Imiti gakondo ni imiti myiza imiti itarimo ibintu byo mu nganda, imiti ikiza vuba kandi nta ngaruka nyinshi igira, niyo miti nashishikariza buri muntu wese gukoresha.